Ahantu heza cyane, ahantu hari utwatsi twiza cyane, wagira ni mu kibuga abana bakiniraho, hariho n'umwicungo w'abana, ndetse ni ahantu heza cyane, umwicungo ufite amabara agiye atandukanye, hirya hari indege nziza cyane y'igishushanyo.

Abantu benshi cyane barimo abambaye abasurubeti, n'amataratara, nakuteri zipfuka amatwi, ndetse n'umudamu wambaye iby'umutuku uri kubareba. Bahagaze hejuru y'ameza, ameza ariho purise ndetse n'itara riri kwaka.

Icyapa cyiza cyane, icyapa cyanditseho Ekore Materineri, ni icyapa kiri muri Kigali, icyapa gifite udutako twiza cyane, icyapa cyanditseho ahagana iburyo Heriningi Matisere.